Imiti ipanze neza mu ibara ritukura ndetse n'indi iri mu byuma byagenewe kuyirinda ubukonje ndetse n'ubushyuhe bwayangiza, iyo miti ikaba itegerejwe kujyanwa hirya no hino, hifashishijwe utudege tutagira abapirote.

Mu cyumba cyabugenewe gifite amabara y'umuhondo harimo umugore utwite wambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu bwijimye, uwo mugore kandi akaba arimo gusuzumwa n'umugore wambaye imyambaro yabugenewe ukora mu by'ubuvuzi.

Umugabo mukuru wambaye umwambaro ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, akaba akora mu muryango ushinzwe gutabara imbabare, ari ahatangirwa serivise z'ubuzima ndetse akaba ari kuganira na bamwe mu bashinzwe gutanga izo serivise.

Ikinyabiziga k'ibiziga bine gifite amabara y'umweru, ndetse n'inyuguti zandikishijwe amabara y'umutuku. Icyo kinyabiziga kikaba cyifashishwa n'umuryango utabara imbabare, mu bikorwa bitandukanye uwo muryango ukora.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mukugurutsa utudege duto, tutagira abadutwara, utu tudege tukaba twifashishwa mu buvuzi, aho dutwara ibikoresho bitandukanye byifashishwa birimo nk'amaraso, imiti ndetse n'ibindi, byifashishwa mu butabazi.

Mu gitanda gifite ibara ry'ubururu haryamyemo umugabo wambaye impuzankano y'abantu bakora mu muryango ushinzwe gutabara imbabare akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru.

Mu nyubako nini ya Kaminuza y'u Rwanda, ifite inzugi zifite amabara y'umukara, harimo ibitanda byabugenewe bitangirwaho ubutabazi bw'ubuzima. Na none kandi harimo ibikoresho byinshi, byifashishwa mu gutanga ubwo butabazi. Harimo kandi n'intebe ndetse n'amezaza byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe cy'amasomo.

Abantu benshi barimo abagore, abagabo bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye bicaye mu nzu yabugenewe yo ku bitaro bari guhabwa amabwiriza ndetse n'ibiganiro ku bijyanye n'indwara zitandukanye.

Ababyeyi bambaye imyambaro itandukanye, barimo abahetse abana ndetse n'abari bonyine, bari ku nzu itangirwamo serivisi zo kwa muganga, bakaba bategereje guhabwa amakuru cyangwa se ibisubizo ku ndwara baba bisuzumishije.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu cyumba cyabugenewe kwa muganga gifite amabara asa n'ubururu bweruye, imbere yabo hakaba hari umuganga wambaye imyambaro y'umweru akaba ari kubaganiriza ku bijyanye n'indwara zitandukanye.

Mu cyumba cy'ibitaro, gifite amabara atandukanye, harimo ibitanda byifashishwa n'abarwayi baba bari muri ibyo bitaro, ibyo bitanda kandi bifite inzitiramibu zikoranye umuti, zikaba zifashishwa mu kurwanya indwara ya Malariya, ikaba yibasira abagore batwite ndetse n'abana.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku ivuriro harimo abaganga babiri bambaye impuzankano yabo y'akazi ndetse n'umurwayi. Umwe mu baganga akaba ari kwereka umurwayi amakuru yifashishije ikayi ndetse n'ikaramu, muri icyo cyumba kandi harimo indangaminsi.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore yateraniye mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'imirongo y'umweru, bakaba bari mu rugendo rwo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Imbere y'inyubako y'ivuriro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi cyeruye ikaba imanitseho icyapa cyerekana ko ari ku ivuriro rya Nyamikamba, hakaba hateraniye kandi itsinda rigari ry'abagabo ndetse bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye.

Umubyeyi w'umugore ushaje afite ubumuga, akaba afite igikoresho kimufasha kugira ngo abashe kugenda. Aho kandi hari n'abandi bafite ubumuga batandukanye, aho hari n'umugabo uri gukina n'abandi bagabo umupira utukura.

Umugabo ndetse n'umugore, umugore akaba yambaye impuzankano y'akazi, akaba ari umuganga afite ibitabo imbere ye arambuye ari kurebamo, ndetse n'uwo mugabo nawe ari kumufasha kubirebamo.

Ahantu habugenewe mu cyumba cyo ku ivuriro, hafite ibara ry'umuhondo, harimo abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore n'abasaza. Bakaba bari kwitabwaho n'umuntu ushinzwe ubuzima ku ivuriro.

Itsinda rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore bamwe muri bo bambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara n'ingofero zibarinda mu gihe cy'akazi, bari imbere y'inyubako y'ibitaro yubakishije amatafari ahiye ndetse kuri iyo nyubako hakaba hariho n'igikoresho cyagenewe kuzimya umuriro.

Umugabo w'umuganga wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru, yicaye ku ntebe ibaje mu giti, akaba ari gukoresha mudasobwa, aho ari kubaza amakuru umurwayi maze na we akayinjiza muri mudasobwa, akoresheje intoki ze.

Mu nkengero z'umuhanda hari icyapa kinini gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umukara, kikaba cyerekana aho Ikigo nderabuzima cya Nyagatare giherereye. Imbere yacyo kandi hari indabo nziza zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Mu cyumba cyisanzuye cyo ku bitaro, hari ibitanda byabugenewe biryamwaho n'abarwayi na none kandi hari umuganga wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi ifite ibara ry'umweru, akaba ari kwita kuri abo barwayi baryamye kuri ibyo bitanda.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima, nanone kandi hari abana bakiri bato bari gukina udukino dutandukanye.

Inyubako z'ibitaro zifashishwa mu gutanga serivisi zitandukanye, harimo gupima indwara, imbere y'izo nyubako kandi hakaba hari indabo nziza cyane zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Umugabo mukuru wambaye impuzankano y'igisirikare cy'igihugu, yifashishije akuma gakoreshwa n'abaganga mu rwego rwo kugira ngo bamenye uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, ari gusuzuma umubyeyi mukuru wicaye ku ntebe mu cyumba cyabugenewe, gisuzumirwamo indwara.

Icyumba kinini cyabugenewe cyo kwa muganga kirimo uburiri abarwayi baryamaho, ubwo buriri bukaba bushashe neza ndetse bukaba bufite n'inzitiramibu ikoranye umuti yifashishwa mu kurwanya malariya, nanone kandi muri icyo cyumba harimo umukozi wo kwa muganga wambaye umwenda wabugenewe w'akazi ufite ibara ry'umweru.

Mu nzu zabugenewe zikorerwamo ubushakashatsi haba harimo ibintu byinshi bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu mu gihe bikoreshejwe nabi, niyo mpamvu ari ngombwa cyane kwambara imyambaro yabugenewe irimo n'udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki igihe icyo ari cyo cyose waba ugiye kwinjira aho hantu.

Umugabo w'inzobere wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga igihe bari kuvura abarwayi, na none kandi uwo mugabo akaba ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kureba indwara zitagaragara.

Imwe mu nzobere ikora ibijyanye n'ubuzima, yifashishije urushinge ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, yafashe amaraso umurwayi. Aya maraso akaba agiye gukorerwaho ubushakashatsi maze bakareba indwara yaba iri muri ayo maraso.

Udukoresho dukoze mu bintu bitandukanye tubikwamo imiti yifashishwa mu buvuzi, iyo miti ikaba ishyirwa mu rushinge mbere yo kugira ngo iterwe umurwayi, iyo miti ikaba ibikwa ahantu heza habugenewe kugira ngo itangirika.

Hifashishijwe agakoresho gafasha mu buvuzi, inzobere yambaye imyambaro y'akazi, ifite ibara ry'umweru ndetse yambaye n'uturindantoki, irimo gupima indwara umurwayi waje ayigana.

Mu cyumba cyabuhariwe gikorerwamo ubushakashati, harimo abagore babiri, bambaye imyambaro yabugenewe, ifite amabara y'umweru, bakaba bari gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye, ni byiza cyane ko hambarwa utuntu turinda intoki ndetse n'ibindi bipfuka isura kuko muri ibyo byumba, haba hashobora kubamo impanuka zitateganyijwe.

Mu nzu yabugenewe ifite inkuta zisize amabara y'umweru, harimo abagore babiri, bambaye imyambaro yabugenewe, ifite amabara y'umweru, bakaba bari gukoreramo ubushakashatsi ariko kandi ni byiza ko hambarwa ubupfukamunwa ndetse n'uturindantoki kuko hashobora kuba havamo ibintu biteza impanuka.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga harimo umubyeyi ufite umwana, akaba ari guha amakuru umuganga wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi ndetse na we makuru agahita yinjiza muri mudasobwa. Ibi kandi bikorwa mu ibanga rikomeye cyane aho nta muganga uba wemerewe kuba yagira undi atangariza amakuru y'umurwayi.

Inzobere zambaye imyenda yabugenewe, uturindantoki ndetse n'dupfukamunwa. Ziri mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, zikaba ziri gukoresha icyuma cyifashishwa mu kureba ibintu bidashobora kuboneshwa ijisho rya muntu.

Umugabo w'inzobere mu by'ubuvuzi wambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa n'abaganga igihe bari mu kazi kabo, ari gukoresha igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gupima indwara zitagaragarira ijisho.

Iyo umuntu ari ahantu hari ibinyabutabire bitandukanye bishobora kuba byakwangiza umubiri we, ni ngombwa cyane ko yambara uturindantoki, uturinda amaso ndetse n'umwenda wabugenewe umufasha kugira ngo hatagira ikintu kibi cyamubaho.

Abantu babiri b'igitsina gore bambaye imyambaro yabugenewe y'ibara ry'umweru bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi bw'ibintu bitandukanye ariko na none ni ngombwa ko wambarwa imyambaro irinda umubiri irimo nk'udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki mu gihe ugiye kwinjira muri icyo cyumba kuko hashobora kubamo impanuka zishobora kuba zakwangiza uruhu.

Mu cyumba cyabugenewe gifite ibara ry'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye birimo na mudasobwa byifashishwa mu bushakashatsi, inzobere yambaye umwambaro wabugenewe, agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki iri gukora ubushakashatsi, ni byiza cyane ko utu dukoresho dupfuka umubiri twambarwa kuko muri ibi byumba haba hashobora kuba havukamo impanuka ititezwe yakwangiza uruhu.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, ateza igitambaro, atereye umwana mu ntoki, aho uwo mwana ari kwitabwaho n'umugabo, ufite icyo ashinzwe mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'imikurire y'abana.

Ahantu hateganyijwe, hahuriye urujya n'uruza rw'abagore, bafite abana bakiri mu myaka ikiri mito, bakaba bari guhabwa serivisi zitandukanye z'ubuzima n'umukozi ukora mu bijyanye n'ubuzima, wambaye umwambaro wabugenewe.

Umubyeyi wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara yicaye hasi ku gasambi aho ari konsa abana be. Ni byiza cyane ko abana bakonswa kuva bakivuka kugeza ku mezi atandatu nta kindi kintu kindi bavangiwemo.

Mu cyumba cyo kwa muganga gifite ibara rijya gusa n'umuhondo, harimo umugore ufite umwana w'uruhinja, akaba aryamye ku buriri bufite ibara ry'ubururu nanone kandi hari igikoresho k'ikoranabuhanga cyabugenewe mu kwita ku buzima bw'umugore ndetse n'umwana.

Umujyanama w'ubuzima wambaye umwambaro wabugenewe w'abajyanama b'ubuzima ufite ibara ry'ubururu yicaranye n'umugabo ndetse n'umugore, bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye z'ubuzima. Ni ngombwa cyane ko umugabo aherekeza umugore we mu gihe agiye guhabwa serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Umubyeyi w'umugore ufite agakapu mu ntoki, ahetse umwana ndetse afite n'undi muntu ntoki, ari kugenda yerekeza ku nzu, ifite ibara ry'ubururu, yanditseho ijambo Girububuzima. Iyo nzu kandi ikaba izitiwe n'indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Imbere y'inyubako zifite amabara y'umuhondo weruye z'ivuriro hari intebe nziza aho hicayemo umugore ufite umwana ukiri muto, ari kuganira n'ushinzwe ubuzima bw'abana bakiri bato, amugira inama ku bijyanye n'ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana afite.

Itsinda ry'abaganga bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'abandi bantu batandukanye, bahuriye hamwe aho bari gukurikirana ibyo umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho ku ngingo zitandukanye zirebana n'ubuzima bw'abana.

Umubyeyi w'umugore mukuru aricaye ndetse ateruraye umwana we, akaba ari kumwitaho, amuha ibyo kurya, bigizwe n'indyo yuzuye, ni byiza cyane ko abana bitabwaho, bagahabwa indyo yuzuye, cyane cyane mu myaka yabo ya mbere kuko bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Mu cyumba cyo ku bitaro gifite amabara atandukanye, hari ibitanda biryamyeho abarwayi ndetse n'ababyeyi bafite abana. Muri ibyo bitanda hakaba hari inzitiramibu, zifashishwa mu kurwanya indwara ya Malariya, ikunda kwibasira abana bato ndetse n'abagore batwite.

Abanyeshuri bo mu ishuri ribanza bambaye impuzankano z'ikigo cyabo, bari mu kibuga rusange k'ikigo, aho bari gukina imikino itandukanye. Ibi bikaba bibafasha kugira ngo baruhure mu mutwe ndetse babashe no gukurikira amasomo neza.

Itsinda ry'abaganga ririmo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda yabugenewe bashinzwe kwita ku buzima bw'abana, bari kuganira n'ubashinzwe bakaba bari mu cyumba cyiza cyane gifite amabara y'umweru.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro isa n'ubururu bwijimye ndetse n'icyatsi kibisi, ufite icyo ashinzwe mu Kigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima, ari kugirana ikiganiro n'itangazamakuru ku ngingo zitandukanye zirebana n'ubuzima.

Abantu batanu, barimo abagore babiri, bafite icyo bashinzwe mu bijyanye n'ubuzima, bari imbere, aho bari gutanga ikiganiro ku bijyanye na gahunda zitandukanye z'ubuzima, umwe muri bo kandi akaba ari kuvugira ku ndangururamajwi.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe y'umweru, yambarwa n'abaganga igihe bari mu kazi kabo, bari kumwe n'umurwayi, aho bari kumuha amwe mu makuru akenerwa n'umurwayi, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa biga mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina n'inkweto z'umukara, bari kumwe n'umwarimu wabo.

Abantu batandukanye bicaye mu byatsi, imbere y'inyubako yubakishije amatafari, bakaba batoye uruziga, bisa nkaho hari ikintu runaka bari kuganiraho. Iyo nyubako bicaye imbere ikaba isa nkaho ari inzu itangirwamo serivise zijyanye n'ubuzima.

Mu nyubako ifite amabara y' umuhondo ndetse imanitsemo ibitambaro by'idarapo ry'igihugu, hateraniyemo itsinda ry'abantu, barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari guhabwa amakuru ku bijyanye n'ubuzima.

Umugabo wambaye umwambaro wabugenewe ufite ibara ry'umweru ari mu cyumba cyabugenewe gifite ibara ry'umweru, kirimo imiti ivura indwara zitandukanye zirimo: umugongo, amaso, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi.

Imiti myinshi y'amabara menshi, yabitswe mu cyumba kiyirinda kwangirika. Iyi miti kandi ikaba ivura indwara zitandukanye, zaba izo mu mubiri mo imbere ndetse no hanze y'umubiri, twavuga nk'indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, amaso ndetse n'izindi.

Inzu yabugenewe icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye y'indwara z'abantu, urugero twavuga umutwe gucibwamo ndetse n'izindi. Abantu bakaba bajya kugura iyo miti maze bakishyura bagahabwa iyo miti.

Inyubako y'ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, imanitseho icyapa gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye y'indwara zibasira umubiri. Nanone kandi hari ikinyabiziga cy'ipikipiki cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Mu cyumba cyabugenewe gifite amabara y'umweru habitsemo imiti y'ubwoko butandukanye itondekanyijwe neza, ivura indwara zitandukanye z'ubuzima zirimo imitsi, amaso, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi. Ikaba yarashyizwe muri icyo cyumba kugira ngo biyirinde kwangirika.

Inzu y'ubucuruzi isize irangi ry'umweru, ikaba igurishirizwamo imiti itandukanye ikozwe mu bimera. Kuri iyo nzu kandi hashushanyijeho ibishushanyo byinshi ndetse n'inyuguti nini zandikishijwe mu ibara ry'icyatsi kibisi cyeruye.

Mu cyumba cyabugenewe gifite amabara y'umweru harimo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi zirimo nk'iz'imitsi, amaso ndetse n'izindi zitandukanye, hakaba harimo umukozi ubishinzwe wambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru.

Inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo wijimye, imanitseho icyapa gifite umuzenguruko w'icyatsi kibisi, ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'icyatsi kibisi, kikaba cyerekana ko muri iyo nzu hacururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye, ifite amabara menshi, umutuku, umuhondo ndetse n'umweru, ibitse mu cyumba cyabugenewe kiyibuza kwangirika. Iyo miti kandi ikaba ivura indwara zitandukanye z'umubiri, harimo imitsi, umutwe, amaso ndetse n'izindi.

Icyumba cyabugenewe kirimo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara z'abantu, urugero rw'izo ndwara twavugamo umutwe, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi, abantu bakaba baza kugura iyo miti maze bakishyura amafaranga.

Imbere y'umuhanda wisanzuye wubakishije amabuye, hari inyubako y'ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umukara. Iyo nyubako ikaba icururizwamo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi.

Mu cyumba cyabugenewe gifite ibara ry'umuhondo wijimye, harimo umugabo wambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru ndetse akaba ari gutondekanya neza imiti. Iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye, zibasira umubiri, harimo nk'umugongo, umutwe ndetse n'izindi.

Icyapa kirimo ama baratandukanye y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, kikaba kimanitse hejuru y'inzu igurishirizwamo imiti y'amatungo ndetse n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu bworozi buteye imbere.

Imbere y'ishuri rya kaminuza ryubatse neza, rifite imiryango ifite amabara y'icyatsi kibisi, hateraniye abanyeshuri benshi, bicaye ku ntebe nziza cyane z'ubururu, bakaba bari kuganirizwa ku ngingo zitandukanye zibareba.

Mu kibuga cy'umupira cy'ibyatsi gikikijwe n'ibiti ndetse n'inzu zitandukanye, itsinda ry'abasore batandatu bambaye imyambaro yabugenewe ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri ifite amabara y'umukara, bari kwishimira ko batwaye igihembo.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bateraniye ahantu hari kubera ubukangurambaga, aho bashishikarizwa gukoresha neza agakingirizo mu kwirinda indwara zitandukanye, zandurira mu mibonanompuzabitsina.

Umubirizi ni kimwe mu bimera kizwiho kuba cyarizerwagaho n'abantu benshi ko kivura indwara zitandukanye. Bakaba bakishi mu miti ya gakondo na n'ubu kandi hari abantu benshi iyo barwaye aho kugira ngo bajye kwa muganga, bihutira gushaka uno mubirizi, bakawukamura maze bakanywa amazi yawo, bizeye ko bubakize

Umubyeyi w'umugore uri mu cyumba cye yambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku yicaye ku mu sambi aho ari gutunganya imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ziba zarabase umubiri.

Umugabo mukuru ufite umusatsi urimo imvi, wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, afashe mu ntoki ibyatsi kabuhariwe byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye zirimo imitsi ndetse n'izindi.

Ikimera cyitwa umuravumba kizwiho kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kiri gusoromwa n'umubyeyi w'umugore wambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru ufite n'agakapu mu ntoki na none kandi hari igihingwa cy'insina.

Imiti gakondo ituruka ku bihingwa irimo tangawizi, indimu ndetse n'iyindi yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari kandi n'udukoresho twifashishwa mu gutunganya iyo miti mbere yuko ikoreshwa cyangwa se mbere yuko ijyanwa ku masoko kugurishwa.

Umuti ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku ushushanyijeho amatungo yo mu rugo arimo inka ndetse n'intama ukaba wifashishwa mu kuvura indwara z'amatungo, ibi bikaba bifasha kugira ngo umusaruro ukomoka ku matungo wiyongere.

Imiti ifunze neza cyane mu mabara y'ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umweru ikaba yifashishwa mu kurwanya ndetse no mu kuvura indwara zitandukanye mu bworozi. Ibi bikaba bifasha kugira ngo umusaruro uva mu bworozi wiyongere.

Inyubako nziza cyane, ifite ibara ry'ubururu ndetse kuri yo hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu avuga ati "gira ubuzima", imbere y'iyo nyubako kandi hakaba hari ubukarabiro bwifashishwa mu kurwanya indwara zitandukanye z'umwanda ndetse n'ibindi byorezo.

Abajyanama b'ubuzima bambaye imyambaro y'abajyanama b'ubuzima bari imbere y'inyubako y'ivuriro ifite ibara ryiza cyane ry'ubururu ndetse kuri iyo nyubako hakaba hamanitseho icyapa cyanditseho ijambo girazima.

Iruhande rw'inyubako nziza ifite ibara ry'ubururu bukeye ndetse ikaba yanditseho ijambo Girabubuzima, hahagaze umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'igihugu. Iruhande rw'iyo nzu kandi hakaba hari imbuga nziza irimo ibyatsi bitoshye ndetse n'indabo z'amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Inzu y'ubucuruzi imanitseho icyapa cy'umweru ndetse gifite inyuguti zanditse mu mabara atukura ndetse n'umukara, kikaba gishushanyijeho inyamaswa zitandukanye zo mu rugo, icyo cyapa kikaba kerekana aho bagurishiriza imiti y'amatungo.

Icyumba cyo kwa muganga cyisanzuye gisize irangi ry'umweru kirimo ibitanda bitandukanye bifite inzitiramibu. Muri icyo cyumba kandi hakaba harimo utugare twifashishwa n'abafite ubumuga cyane cyane abafite ubumuga bwo kutagenda, aho batwicaramo maze bakabasha kuva ahantu hamwe bakajya ahandi.

Umubyeyi wambaye umwambaro ufite ibara ry'umutuku, ahetse umwana mu mugongo, yikoreye agafuka gafite ibara ry'umuhondo, nanone kandi hari urukarabiro rwagenwe gukarabirwaho intoki, mu rwego rwo kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'ibindi byorezo.

Umuti wabugenewe wifashishwa n'aborozi kugira ngo barwanye indwara zitandukanye mu matungo yabo, ibyo bikaba bifasha abo bahinzi kugira ngo amatungo yabo agire umusaruro mwiza kandi uhagije.

Mu cyumba cyo ku ivuriro cyabugenewe kirimo imiti ivura indwara zitandukanye, hari umuntu w'igitsina gore wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi ifite ibara ry'umweru, akaba ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa cyifashishwa mu kubika amakuru y'akazi ndetse n'amakuru y'abarwayi.